Aba ni abantu babiri umwe w'igitsina gore n'undi w'igitsina gabo, uw'igitsina gore yambaye ishati y'umweru n'amataratara, ari kuri mudasobwa.

Iyi ni ifoto irimo abagabo, kuruhande rwabo haparitse imodoka yo mu bwoko bwa mahindira.

Iyi ni imodoka, imbere yayo hahagaze abagabo batatu, umwe yambaye isarubeti iri mu ibara ry'ubururu, abandi babiri bambaye imyenda isa.

Izi ni imodoka ebyiri ziri mu ibara ry'umweru; imbere yazo hahagaze abagabo batatu bafite icyapa cy'izo modoka.

Iyi ni imodoka ifite ibara risa umukara, ifite icyapa cy'imodoka zigurishwa i Kigali ndetse ifite n'amapine y'umukara.

Iyi ni inoti y'amafaranga magana atanu y'u Rwanda, hashushanyijeho inka eshatu ziri mu'i ibara ry'umweru n'umukara.

Aba ni abakobwa babiri bambaye imipira iri mu ibara risa ubururu, bahagaze imbere y'amata yitwa mukamira.

Iri ni iduka ririmo amata y'inyange, amazi ya nili, harimo amandazi na capati.

Izi ni inoti z'amayero. Zigiye ziri ubwoko butandukanye, hari inoti y'atanu, icumi, makumyabiri, mirongo itanu, ijana ndetse na magana abiri.

Izi ni inoti z'Abahinde. Hashushanyijeho umusaza wambaye amataratara.

Ibi ni ibiganza by'umuntu ari kubara amafaranga, imbere ye hari impapuro ziri mu ibara ry'umweru ndetse ku ruhande hari n'ikaramu.

Iyi ni inzu mberabyombi, irimo imitako, irimo televiziyo, akabati ndetse n'amatara amanitse hejuru.

Iyi ni hoteri iherereye mu mujyi wa kigali ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye harimo aho abantu basohokera.

Iyi ni hoteli iherereye mu mujyi wa Kigali, imbere yayo hari ibiti biri mu ibara risa icyatsi kandi hari n'umuhanda nyabagendwa.

Iki ni ikigo cya Solasi mo imbere hahagazemo abagabo babiri, umwe yambaye amataratara, harimo n'icupa ry'amazi y'Inyange.

Iki ni icyapa cya banki. Kiriho imodoka iri mu ibara risa icyatsi ndetse n'amapine ari mu ibara ry'umukara. Imbere yayo hahagaze umusore, wambaye amataratara, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Iki ni icyapa cya banki, kiriho umukobwa urimo guseka yambaye ijaketi iri mu ibara ry'umweru.

Iri ni isoko nyabagendwa ricururizwamo imyenda y'ubwoko butandukanye, harimo abacuruzi bagiye batandukanye ndetse n'abaguzi baje guhaha imyenda.

Iri ni isoko ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, hacururizwamo inyanya, ibitunguru avoka, indimu ndetse n'amatunda.

Iri ni isoko ryiza cyane, ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo ibishyimbo, ibigori, ibitoki.

Iri ni isoko ry'imbuto harimo abacuruzi bagiye batandukanye bamwe barahagaze abandi baricaye.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa, urimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, harimo abikoreye imizigo ndetse n'abari kugenda bisanzwe.

iyi ni inzu icururizwamo amayinite, imbere yayo hahagaze umukiriya waje kugura amayinete.

Iki ni ikinyabiziga gihetse imizigo umuntu utwaye ikinyabiziga yambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo ndetse ku ruhande rw'ikinyabiziga hari ibiti biri mu ibara risa icyatsi.

Iyi ni inzu irimo parikingi z'imodoka ebyiri, yaguzwe amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo itatu by'amanyarwanda.

Iyi ni inzu nziza iherereye i Remera, ifite ibyumba bibiri byo kuraramo ndetse n'igikoni cyiza cyane.

Iyi n'inzu nziza cyane, iherereye Kicukiro, Kagarama mu mujyi wa Kigali. Irimo akabati, televiziyo, amatara ndetse n'intebe.

Iki ni igikoni kigezweho, giherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali harimo utubati turi m'ibara ry'umweru ndetse n'urugi ruri m'ibara ry'umuhondo.

Iyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali Kicukiro Kagarama, yaguzwe amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo itanu by'amanyarwanda.

Iki ni igikoni kigezweho giherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali, gihagaze amafaranga angana na miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo ine by'amanyarwanda.

Iyi ni inzu ikodeshwa, iherereye Kigali kanombe, irimo ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ihagaze agaciro k'amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amanyarwanda ku kwezi.

Iyi ni inzu ifite agaciro ka miliyoni mirongo cyenda, imbere y'ayo hahagaze umugabo wambaye amataratara ndetse n'inkweto z'umukara.

Iri ni isoko ryiza cyane ricururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo ibinyobwa, harimo umukobwa wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo.

Iyi ni ikarita yo kwivurizaho. Iriho ifoto ya nyirayo, amazina ye, itariki y'amavuko, umudugudu, akagari, umurenge atuyemo.

Iyi ni inzu itangirwamo serivisi zbuvuzi, imbere yayo hahagaze umubyeyi wambaye ikanzu itukura yambaye n'agapfukamunwa.